Ibikinisho byabana biri mu bwoko bw'inkende, bifite amabara abiri, orange ndetse n'umweru, ku mazuru bifite ibara rya shokora, bifite imirizo ifite ibara rya orange.

Inzu y'ikigo cy'ishuri ifite amabati y'ubururu, isezeze amarangi y'ubururu ku gikuta, hari impapuro zanditseho ndetse n'abana bambaye impuzankano, bafite ibara ry'ubururu n'umweru bahagaze imbere y'aho, inyuma y'abo ari ibiti.

Igikapu duheka mu mugongo gifite ibara ry'iroza inyuma hashushanyijeho ibinyugunyugu bibiri kimwe gifite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku n'ikindi gifite ibara ry'ubururu, umukara n'umweru.

Abanyeshuri bambaye impupankano, ishati y'umweru ifite ikoti ry'ubururu, amajipo ya kake, bamwe muri bo bambaye imipira y'imbeho aband ntayo bambaye, bahagaze iruhande rw'inzu y'amatafari ahiye ifite amadirishya y'umweru, umugabo ubahagaze imbere arambuye akaboko k'ibumoso, yambaye ishati irimo uturongo tw'umutuku n'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abana bari mwi ishuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti barimo kwandika, inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara, ryandikishijweho n'ingwa y'umweru.

Abantu bahagaze munzu isize amarangi y'umweru, bamwe muri bo bahagaze imbere abandi bahagaze inyuma, bafite impamyabushobozi zifite ibara ry'icyatsi ryandikishijweho amagambo y'umukara.